Abayobozi bakomeye rimwe na rimwe bagomba kujya bajya mu nama, bagakurikirana ibiberamo ndetse n'amabwiriza bahabwa akaba aribwo buryo bwiza bwo kuyashyira mu bikorwa nyuma yo kuyumva.

Ni byiza ko igihe abantu bavuye mu mwiherero cyane cyane mu nama zihuza abantu benshi, nyuma yaho bafata ifoto y'urwibutso, kugira ngo icyo gikorwa bajye bakibukiraho, bajye bibuka ko hari icyo bakoze.

Buri nama zose zikorwa si ko bavayo bumvikanye icyo bagomba gukora ndetse bafashe n'imyanzuro kuri cyo, ahubwo hari igihe inama irangira nta n'ikintu gifatika cyakozwe bityo rero igihe tugiye gukora inama tujye tugenda twiteguye gutanga ibitekerezo.

Igihe twagiye mu nama, cyangwa umwiherero runaka, tuba twajyanyweho no kumva ibintu by'ingenzi, ni byiza ko rero dukurikirana ibyo bintu, tukabyumva neza ndetse tubishyizeho umutima wacu wose.

Igihe abayobozi bagiye mu nama bakunze kuba bafite udupara tw'amazi iruhande rwabo kubera ko baba bazi ko bari buze kuvuga cyane bityo bigatuma ibyo baje gukora bigenda neza.

Ni byiza ko igihe habaye umwiherero, hagomba kuza n'abayobozi bakomeye kugira ngo umutekano bizere ko urinzwe neza kandi bari bugezweho ibyo bagombaga kugezwaho neza.

Ni byiza ko ababyeyi bakora inama cyane cyane abanyeshuri iyo bamaze igihe batitwara neza, umuyobozi w'ikigo agomba gutumizaho inama y'ababyeyi bakaganira kuri ibyo bibazo.

Nyamuneka umuco ntugacike mu gihugu cyacu, kubera ko buryaga agahugu katagira umuco karacika, kera imbyino gakondo zanyuraga abantu, ariko ubu ntabwo bigishyirwamo imbaraga.

Mu muco nyarwanda byakunze kugaragara ko hakorwaga ibitaramo bigiye bitandukanye harimo nko kubyina ndetse ugasanga hari n'intore muvuga abantu batojwe uwo muco.

Mu makaminuza ni ho hantu honyine usanga hagisigaye umuco wo kuba babyina ndetse ubu babikora nk'amarushanwa ariko kera byari umuco usanga ahantu hose ukorwa ari ntacyo bari buhembwe.

Umuco Nyarwanda wahozeho abantu bategaga amatwi uri kuvuga kugira ngo bumve icyo ababwira ariko umuco kugeza n'ubu ntabwo wacitse ahubwo uracyahari kuko si byiza kuvugira mu muntu igihe ari kuvuga.

Abami ba kera bari bafite uburyo bambara ndetse kubera ko byari umuco w'Abanyarwanda, buri mwami wese wasimburaga undi uwo muco yarawukomezaga ariko ubu bisa n'ibiri gucika ntibikiboneka.

Ahantu hose hari umuyoboro w'amashanyarazi, hagomba kurindwa ikintu cyose cy'amazi gishobora gutuma habaho siriko, cyangwa nanone hakarindwa kuba hakegerwa abana, kuko bashobora kuhaburira ubuzima.

Ni byiza ko ahantu hari umuriro w'amashanyarazi, hagomba kwirindwa ikintu cyose cyatuma ubuzima bw'umuntu buhangirikira, cyane cyane nk'abana batoya kubera ko ari bo bakunda gukinisha ibintu byose.

Abantu tumaze guca akenge tugomba gufata abana bacu tukabajyana kure y'insinga z'amashanyarazi kubera ko bashobora kuzegera bikaba byateza impanuka bakaba babura n'ubuzima.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ingamba yo kugeza umuriro ku baturarwanda bose ariko iyi ntego ntabwo iragerwaho kubera yuko hari ahantu ubona bigoye kuba bawuhageze ariko nabyo biri mu ntego zabo.

Iyo abaturage bashyikirijwe umuriro w'amashanyarazi, ni byiza ko bawubungabunga bakawurinda ibintu byawangiza byose kuko byagaragaye ko mu byaro hadakunze kugera umuriro w'amashanyarazi n'ababashije kuwubona baba babaye bumva bameze neza.

Niba hari ahantu twashyize imiyoboro y'amashanyarazi ndetse n'ibikoresho byayo, hagomba kubakirwa, hakajya hakingwa kugira ngo hatazagira ikintu kihangiriza, harimo nko kuba imvura yahanyagira, bigateza siriko.

Si ahantu hose hashyirwa imiyoboro y'amashanyarazi ndetse hakanabikwa jenerateri zitanga uwo muriro, kubera yuko habanza gusuzumwa, hakarebwa niba nta nkongi zazateza muri ako gace bikabona kuhashyirwa.

Mbere y'uko abaturage babaha ibikorwa remezo, babanza kubabwira y'uko ibyo bikorwa remezo bishobora kubanyurira mu mirima, bityo bakaba babarirwa ibizangizwa byose bakaba babyishyurwa.

Abaturage ntitukemerere umuntu uwo ari we wese kurira amapoto y'amashanyarazi kugira ngo ajye gukora imirimo, ari nta mpuzankano yambaye yerekana ko ibyo akora yabyigiye kandi abizoberewemo.

Si byiza ko buri muntu wese ajya mu bikorwa bigendanye n'amashanyarazi no kubikora atarabyigiye kubera ko ibi byateza impanuka, bikaba byatuma ahaburira ubuzima bwe.

Iyo wakoze cyangwa ukiga ibijyanye n'imiriro y'amashanyarazi, ni ibintu ukora ubikunze kandi ubizi neza kandi iyo umuntu akora ikintu azi neza ntashobora kukicyica na hato.

Abakozi bafite ubushobozi ndetse n'uruhushya bigaragara ko ari byo bize, ni bo bonyine bemerewe kujya mu nsinga z'amashanyarazi bakareba ikibazo zagize bakaba bagikemura.

Ahantu hari imiyoboro y'amashanyarazi bigaragara ko ari igicumbi cy'umuriro wabahatuye. Ugomba kubungabungwa kugira ngo hirindwe icyatuma haba siriko amashanyarazi akaba yatwikira abantu.

Umuriro w'amashanyarazi ugomba kugira urugomero ruwugemura ahantu hatandukanye ndetse hakaba n'amasanduka afunga ibyo byuma by'ibikoresho byawo kugira ngo hatagira ikintu na kimwe cyaza kikawangiriza.

Abantu bize iby'amashanyarazi, barabizi neza ko izi nsinga zose uko zingana, ziba zifite umumaro kandi atari ibya buri wese kwinjiramo ngo abigenzure kubera ko bigenzurwa gusa n'uwabyigiye.

Iyo abaturage bagiye guhabwa umuriro w'amashanyarazi, igikorwa cya mbere gikorwa ni ugupima aho ayo mashanyarazi azanyura, ikindi kikaba gushyira imiyoboro yayo mu hantu hagiye hatandukanye.

Abaturage iyo babonye imiriro yabo yangiritse cyangwa bagize ibindi bibazo, bagomba guhamagara ababishinzwe, kubera yuko nimero zabo ziba zizwi, akaba aribo babikoramo gusa, bakirinda gukoresha abatarabyigiye.

Iyo ugeze mu gasantere gahuje ingo nyinshi usanga hari umuyoboro w'amashanyarazi uhuriyeho insinga nyinshi zigiye zimanukira muri izo ngo kubera yuko izo ngo zegeranye bigatuma hegerezwa umuriro bakoresheje insinga nyinshi.

Igihe cyose duhawe umuriro, bikunze kugaragara ko tuba dufite na cashipawa, ni ukuvuga ibikoresho bibara uwo muriro, tukamenya niba washizemo tukagura undi, muri ubwo buryo rero abana batagomba kubikinisha, tugomba kuzimanika ahantu batagera.

Iyo ahantu hari ibikorwa remezo cyane cyane bitanga umuriro, abantu bagomba kuharindisha kugira ngo ibyo bikorwa bitibwa bikaba byatuma abantu bajya mu kizima.

Nyuma yo kubona ko impanuka zo mu muhanda zikomeje kuba nyinshi, polisi y'igihugu cy'u Rwanda yashyizeho uburyo bwiza bwo gushyira kamera mu mihanda kugira ngo zijye zifotora buri kimwe kibera mu muhanda.

Si byiza kugendera hejuru y'insinga z'umuriro w'amashanyarazi utabifitiye uburenganzira cyane cyane abantu batabyigiye, kuko byatuma havamo impanuka zitandukanye zirimo nko kuhaburira ubuzima.

Inyubako zikunze kugaragara ahantu hatandukanye cyane cyane inyubako z' amasoko zashyizwemo imbaraga cyane kugira ngo abaturage bakomeze bikorere ibikorwa byabo binjiriza amafaranga.

Leta yamenye ibanga ryo gushyira imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo, irangije ibyitaho. Ubungubu iyo ugeze mu gihugu ukirebera ibikorwaremezo bikirimo nawe birakunyura.

Muri buri Kagari cyangwa Umurenge hagomba kuba harimo inyubako yabugenewe, ikorerwamo serivisi abaturage bakeneye kandi zikabegerezwa, buri Gihugu cyashyizeho izi nyubako muri buri Karere n'ahandi hatandukanye.

Ibikorwa remezo birimo inyubako byagaragaye ko bishyirwamo imbaraga mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko n'aho dutuye i Nyagatare hari ibikorwa remezo bigaragara ko byamaze gushyikirizwa abaturage, ntibagikora ingendo ndende bajya kubishaka.

Leta y'u Rwanda yabonye ko hari ahantu hagoranye kuba abaturage bahambukira. Ishyiraho gahunda yo kubabukira ibiraro kugira ngo bajye babigenderaho ibyo biraro rero byatumye abaturage bishimira iterambere bagezeho, nyuma yo kongera kubona uburyo bageza ibicuruzwa byabo ku masoko mu buryo buboroheye.

Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwiza bwo kugaragaza ahantu umuntu ageze, bubaka iyi nyubako igaragaza akarere, umurenge n'akagari ndetse n'umudugudu umuntu agezemo mu buryo bworoshye.

Leta igomba kubaka ibikorwaremezo, birimo nk'amasoko ndetse n'ibindi, cyanecyane iyo abaturage bejeje imyaka, bagomba kugira igikorwaremezo twakwita isoko kugira ngo bacururizemo iyo myaka yabo.

Gahunda nziza yo korohereza abaturage ingendo cyane cyane nk'ahantu hari amazi, hasigaye hubakwa ibiraro bigezweho abaturage bagenderaho kandi ubona ko bisa neza kandi bikoroshya n'ingendo.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi cyane mu bikorwa remezo, harimo nko kubaka amashuri, kubaka imihanda, kubaka ibitaro, ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye byubakwa na leta.

Inyubako zakunzwe kugaragara ko ari zimwe mu bikorwa remezo Leta yashyizemo imbaraga kubera ko, ntushobora gutanga serivisi ngo uzitangire ahantu hadakeye.

Byamaze kumenyekana ko ahantu hose hegerejwe ubutabera kugira ngo umuntu igihebukeneye abe yabuhabwa kandi ku gihe mu buryo bumworoheye ataririnze gukora ingendo ndende zishobora gutuma ananirirwayo.

Iyo ugeze mu Karere ka Nyagatare, ukunze kuhabona ishusho y'inka y'inyambo kubera ko ari ikimenyetso kigaragaza ko muri ako karere horowe inka nyinshi cyane kandi zikaba zihagwiriye ku bwinshi.

Imidugudu yose igomba kuba ifite ahantu abana batoya bigishirizwa bakiri bato kugira ngo bazakure bafite ubwenge ndetse nibatangira n'amashuri bazafate ku buryo bworoshye.

Iyo uvuye mu Bugande, baguha ikaze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ugahita winjirira no muri Gicumbi, ariko ako Karere gaherereye ku mupaka, kegeranye n'u Bugande.

Nyuma yo kumenya ko u Rwanda rwanyuze mu bihe bikomeye birimo nka jenoside rwashyizeho inyubako zubakwa ku marimbi kugira ngo bahohore bibuka ababo kandi bari ahantu heza.

Nyuma yuko abagore bamenya ko na bo bashoboye, bitabiriye ibikorwa byose bya Leta, birimo nk'ubutabera kuko wasangaga mbere batabikozwa kandi batabyumva neza barabihariye abagabo.

Abayobozi bakomeye, na bo bagomba gufata iya mbere, mu kubwira abaturage ko bafite uburenganzira ku bintu bigiye bitandukanye. Kubera yuko hari uburenganzira babuzwa n'abayobozi bo hasi, kandi bitari ngombwa.

Mu gihe cyo kwibuka, abaturage bagomba kujyana indabo bakazishyira ku babo baburiye muri Jenoside yakorewe abatutsi, kubera y'uko biba ari nko kubasubiza icyubahiro bambuwe muri icyo gihe.

Urubyiruko na rwo rufite uburenganzira bwo kuba bakora imyitozo ngororamubiri, ariko ni byiza ko igihe wagize amahirwe yo guhuza urubyiruko, rurangije iyo myitozo ngororamubiri ugomba kubicaza ukanabaganiriza.

Ubutabera n'uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Rwanda byarubashywe ndetse bishyirwa ku rundi rwego ariko ntitwirengagije ko hari ibindi bihugu bidakozwa n'izi ngingo bikaba byikoreye ibyo byishakiye.

Leta y'u Rwanda yagejeje ahantu hose uburinganire ndetse no mu butabera usanga hakoramo abagabo n'abagore, ariko mbere hakorwagamo abagabo gusa kubera ko abagore nta gaciro bahabwaga ugereranyije n'ubu.

Kwibuka turabizi neza ko ari igikorwa gikorwa buri mwaka mu gihugu cyacu bitewe n'amateka twanyuzemo, nyamara hari abagipfobya, twebwe urubyiruko tugomba gufata iya mbere mu gutanga abo bantu kugira ngo igihugu cyacu gikomeze cyiyubake.

Twamaze kumenya neza ko abaturage twegerejwe ubucamanza ndetse ubu ngubu buri wese ubutabera bwamugezeho, ntashobora kurenganywa ahubwo bamukorera ibyo akeneye.

Byagaragaye ko ubutabera bwageze ahantu hose ndetse bwegerezwa n'abaturage, ubungubu ntibidusaba gukora urugendo rurerure cyangwa ngo tunyure ku bayobozi bagiye bakomeye kugira ngo tubone ubwo butabera.

Ubutabera bumaze gushyikirizwa abantu bose ndetse nubu hagendewe ko agomba gukora uburinganire n'ubwuzuzanye kubera ko n'abagore bafashe iya mbere mu kubyitabira.

Buri muntu wese agomba kugira uburenganzira nk'ubw'abandi, kubera ko buri wese iyo angana n'undi mu mategeko n'ahandi hantu hose, bituma igihugu kigira uburinganire.

Iyo abantu bose bahawe ubutabera neza bituma bumva ko uburenganzira bwabo bwagezweho kubera ko uburenganzira bw'umuturage, haba harimo no kuba yahabwa ubutabera igihe abukeneye.

Igihe tugize ibyago tugatakaza uwacu haba mu muryango cyangwa inshuti yacu, ni byiza ko tumuherekeza neza kubera yuko iyo umuntu umuherekeje neza burya nawe biba bizagukorerwa.

Nyuma yuko bigaragaye ko abantu bose bakeneye ubutabera kandi bakabuhabwa ku gihe, igihe cyose leta igomba kwiyegereza abaturage ibashishikariza ibyo bikorwa ndetse nabo bakamenya ko bafite ubwo burenganzira.

Akenshi igihugu cyacu gikunda gukora inteko rusange y'urubyiruko kugira ngo bite ku ruhare rw'urubyiruko mu kugena ejo hazaza kubera ko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu kandi iyo urubyiruko ruramutse rutitwaye neza n'igihugu biba uko.

Buri mwaka Igihugu kizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'umwana w'umunyafurika. Kikaba ari intego yo kugaragaza ko umwana w'umunyafurika nawe afite agaciro nkak'abandi.

Leta y'u Rwanda imaze kubona ko bimwe mu bintu bikunze gucanga abaturage ari ukumenya imihanda, yashyizeho ibyapa byanditseho nimero kugira ngo umuntu nakurangira akubwire nimero byorohe kuba wamugeraho.

Imodoka zitwara abagenzi rusange, zikunze kugaragara nko muri gare zigiye zitandukanye ariko abashoferi si byiza ko dutwara abantu barengeje imyanya y'imodoka kuko byateza impanuka itateguwe.

Niba ufite ikinyabiziga, ni byiza ko utwara mu muhanda witonze, kubera yuko umuhanda ntabwo aba ari uwawe wenyine, ahubwo uwusangiye n'abandi benshi kandi nabo bakeneye kuwukoresha, ni byiza ko dukoresha umuhanda neza ntidukore impanuka.

Si byiza ko umuntu utwara ikinyabiziga mu muhanda, apakira ibintu birenze ubushobozi ikinyabiziga cye kubera ko ibi byamuteza impanuka kandi bitari ngombwa, yari gutwara iyo ikinyabiziga cye gishoboye kujyana.

Buri muntu wese udafite ijiri yo kuba yatwara umuntu mu muhanda ni byiza ko yakurwamo kubera ko aba atazi amwe mu mategeko yo mu muhanda, ahubwo hagakoramo abanyonzi bonyine.

Ikintu akwibwirira abakoresha umuhanda, batwara ibinyabiziga bigiye bitandukanye, bajye bita kuri ibi byapa kubera yuko biba bisobanura buri kimwe cyose kandi baba barahawe icyangombwa cyemeza ko bazi gutwara, niyo mpamvu bagomba kwitondera ibimenyetso byo mu muhanda.

Ni byiza ko buri ahantu hose hari umutekano, hagomba kuba hari n'imodoka ishinzwe umutekano kugira ngo igihe havutse ikibazo, babe bayifashisha ngo bagere ahantu, habaye umutekano mukeya.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage, gufasha abatishoboye binyuze mu kuba babubakira cyane cyane imbaraga z'urubyiruko nizo ziba zikenewe kubera ko urubyiruko arizo mbaraga z'igihugu.

Ni byiza ko hagomba kubaho imiganda ngarukakwezi kugira ngo abaturage babe bakikoreye igikorwa runaka, kirimo nko gutera ibiti se cyangwa gukora imihanda kugira ngo bibagirire akamaro.

Ni byiza ko abaturage bakora umuganda kenshi gashoboka kubera yuko hari imihanda iba yarasibye, hakaba hatanyuramo imodoka ariko iyo bongeye bakayisubiramo bakayikora neza, ibikorwa remezo birongera bikaboneka n'izo modoka zikaba zanyuramo.

Urubyiruko rugomba gufata iya mbere mu kurinda umutekano mbere yuko bawurindirwa kubera ko urubyiruko rwabigize ibyarwo, umutekano mu Gihugu waboneka rwose kuko ni bo bawukiza bakanawica.

Abaturage bagomba gukora ibikorwa byabo neza igihe bafite ababarindira umutekano mu buryo bwiza, kubera ko ushobora kwishingira umushinga ariko ugasanga ibikoresho byawe byibwe kubera umutekano muke.

Igihe dukoze inama zikomeye zirimo abayobozi bakomeye hagomba kuba hari n'abashinzwe umutekano kugira ngo barinde abo bayobozi, kuko abo bayobozi baba bakomeye.

Iyo ugeze mu Karere ka Nyagatare, uhasanga cyane cyane ibikorwa by'ubuhinzi kubera ko aka karere bizwi ko gatunzwe cyane n'ubuhinzi n'ubworozi, ibyo iyo babikoze neza basagurira n'utundi turere.

Imyitozo ngororamubiri ibakenewe ku bantu bose kubera ko abaganga batubwira ko iyo udakora iyo myitozo umubiri wawe ucika intege ndetse n'abasirikare ugasanga nta mbaraga bakigira.

Si byiza ko mu myitozo ngororamubiri cyangwa gukinana na bagenzi bacu tubigira intambara tukaba twavunana, kubera ko iyo umuntu umuvunnye ntabwo uba umubaniye neza, ahubwo wamuhemukiye.

Amarushanwa y'umupira w'amaguru si buri gihe ko agomba kuba arebana n'ibijyanye n'umupira, ahubwo hari ibindi bintu bitangarizwamo, harimo nko kwimakaza imiyoborere myiza no guharanira ko umuturage aba ku isonga.

igihe cyose abana barimo barakina umupira w'amaguru, ni byiza ko baba bambaye inkweto kubera yuko gukinisha ibirenge ntabwo tuba twize ahantu dukinira ko habura ibyuma dukandagira bikaba byatwicira imibiri.

Umuco w'amahoro wakunze kuranga Abanyarwanda kenshi cyane cyane muri siporo kubera ko usanga abakinnyi bafatana nk'abavandimwe, ugasanga nta kibi yamukorera n'ibyo bakorerana bibi bikaba ari nk'impanuka.

Mu kigero cyose waba urimo imyitozo ngororamubiri iba ikenewe kubera ko ituma imibiri yacu iba mizima, abakinnyi ni bo baguha ubuhamya kubera ko ari byo birirwamo babikora kinyamwuga.

Ni byiza ko byibura mu minsi ibiri cyangwa buri munsi dukore imyitozo ngororamubiri kugira ngo imibiri yacu ibeho neza kandi yujuje ibisabwa kubera yuko iyo dukoze imyitozo ngororamubiri hari indwara nyinshi tuba turwanyije.

Burya niwumva bakubwira ngo umubiri wawe ntukora neza kubera ko nta siporo uheruka, ujye ubyumva. Kuko imibiri yacu iyo utayikoresheje imyitozo ngororamubiri nayo irapfa bigatuma hari ibitagenda neza muri yo.

Abana batoya cyane cyane ku bigo by'amashuri, bakunda gukora siporo bakina umupira w'amaguru, ibi iyo babibuze usanga babayeho mu buzima butishimye kubera yuko amasomo iyo yashyizemo siporo biroroha.

Buri wese gukora imyitozo ngororamubiri si ikintu cyo guhatwa kubera ko ibi ngibi bituma imibiri yacu imera neza kandi ikagubwa neza, bityo rero tugomba kubyitaho.

Imyitozo ngororamubiri rusange iba ikenewe kubera ko usanga hari imyaka abantu bageramo bakumva ko batayishoborera, ariko iyo bagendanye n'abandi bantu benshi barasindagizanya, bakaba babishobora.

Niba siporo ihuza abantu kandi ikaba ituma twishima, si byiza ko tuyigira intambara tukaba twavunana, twakwicana, twaryana ahubwo itubereye umuco mwiza wo kubana neza.

Ni byiza ko n'abayobozi bagomba kugira uruhare mu bikorwa remezo bya siporo kubera yuko iyo ufite umuyobozi utayikunda, n'ibikorwa remezo ntabishyiramo imbaraga.

Igihe cyose twakinaga mu kibuga tukana mugenzi wacu agize ikibazo aravunitse, si byiza ko dukomeza umukino tutaramuha ubutabazi bw'ibanze bwo kumugeza kwa muganga ngo babe bamuvura.

Igihe twagiye mu nama cyangwa umwiherero runaka, tuba twajyanyweho no kumva ibintu by'ingenzi, nibyiza ko rero dukurikirana ibyo bintu, tukabyumva neza ndetse tubishyizeho umutima wacu wose.

Iyo Akarere cyangwa Igihugu gifite ibikorwaremezo byiza birimo nk'umuhanda wa kaburimbo, ibi byoroshya ingendo ugasanga ahantu umuntu yari kugenda igihe kinini kiragabanutse kikaba gitoya kubera umuhanda mwiza.

Si byiza ko ahantu hari umuhanda, tuhatera imyaka ikaba yegereye umuhanda kubera yuko umuntu wese uhanyuze, ashobora kuyangiza cyangwa andi matungo akayona.

Iyo igeze mu Karere ka Nyagatare hari imihanda y'ibyaro ikunze kuba hariyo itaka cyane cyane iyo haguye imvura, ikaba yazamo ibyondo ugereranije n'abatuye mu migi ibimo kaburimbo.

Leta y'u Rwanda cyane cyane abashinzwe byo mu mihanda n'ingendo zo mu muhanda bamenye ibanga yuko umunyamaguru atagomba kugendera ku muhanda nk'uwo imodoka zigenderamo hanyuma babakorera akayira kabo.